Ahantu hagaragara nkaho ari ku ivuriro, hakaba hari ababyeyi bahari bafite abana bakiri batoya. Aha ngaha bikaba bigaragara ko aba babyeyi baje gushaka serivisi z'ubuvuzi. Birashoboka ko bano bana baba bafite ikibazo cyangwa se bakaba baje kubakingiza.

Abantu bicaye ahantu bisa nk'aho ari muri salle y'inama, bamwe bakaba bicaye mu ntebe bisa nk'aho bateze amatwi abantu babicaye imbere. Abo ngabo bicaye imbere y'abo bantu, inyuma yabo hakaba hari igikuta kiriho amashusho y'abantu.

Ni ahantu hari abantu bagiye batandukanye, hakaba harimo abantu bambaye impuzankano bisa nk'aho ari abaganga. Hari abandi bagabo baje kubasura b'abasirimu, aho aba baganga bari kugenda babereka ibyo bikoresho uko bikora. Haragaragara kandi abantu bari gufata amafoto.

Abamama ndetse n'abapapa bifotoreje ahantu imbere y'inyubako ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho, abamama abenshi bakaba bambaye impuzankano ndetse n'utujiri. Bisa nkaho aba babyeyi hari serivisi runaka bashinzwe gutanga.

Ni abantu bateraniye ahantu bakaba bakikije imeza barimo baraganira, hejuru ku meza hakaba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga aho harimo igikoresho cya porojegiteri ndetse na telefone ngendanwa, hari kandi n'udukombe turimo icyayi duteretse ku matasi.

Ni ahantu bigaragara ko ari muri sale y'inama, hakaba hicayemo abantu bagiye batandukanye basa nk'aho bakoze uruziga. Hagati yabo hakaba harimo umuntu wambaye itaburiya y'umweru, akaba hari ubutumwa bw'ingenzi arimo arababwira.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, bikaba bisa nk'aho aba bantu bigaragara ko ari abasirimu. Iruhande rwabo hakaba hari icyapa gishushanyijeho abantu cyanditseho n'andi magambo ari mu rurimi rw'Icyongereza. Aba bantu bikaba bisa nk'aho hari ikintu bari barimo barangiza bakavuga bati reka dufate ifoto y'urwibutso.

Ahantu hagaragara abana benshi cyane, ubona ko aba bana hari ikintu runaka barimo barareba cyabashimishije cyangwa hari umuntu urimo arababwira ibintu biri kubasetsa. Harimo umwana umwe ubona wishimye cyane, byamurenze.

Umugabo w'umwirabura, bigaragara ko yicaye ahantu ari mu gahinda, uyu mugabo akaba arimo ararira bisa nk'aho afite ikibazo cy'ihungabana cyangwa se ubuzima bwe harimo ibibazo bigiye bitandukanye bimuzitiye, bikaba ari byo byatumye ari kurira.

Umwana w'umukobwa ukiri mutoya wicaye mu ntebe, uyu mwana akaba yambaye impuzankano. Afite biswi mu ntoki ze arimo ararya, urabona ko yishimye cyane arimo araseka. Biragaragara ko inyuma ye hari abandi bantu bahari.

Abana benshi ubona bicaye ahantu, hakaba harimo utwana tumwe twambaye impuzankano y'ishuri. Urabona ko bano bana bishimye, aho abari imbere barimo baraseka. Harimo akana kamwe, ubona kasetse cyane byakarenze.

Ni umwana mutoya cyane ubona ko uyu mwana agiye gukorera isuku amenyo ye, afite uburoso buriho korogate, uyu mwana akaba agiye gukora isuku kugira ngo yirinde indwara zo mu kanwa zigiye zitandukanye.

Umukobwa w'imibiri yombi, akaba afite umusatsi muremure w'umukara. Uyu mukobwa biragaragara ko yasetse, aho intoki ze ebyiri zo ku biganza yazitunze mu menyo ye, ubona ko afite amenyo meza y'urwererane.

Ni umusore wambaye umupira w'umweru, uyu musore akaba afite imibiri yombi. Mu biganza bye afitemo akadodo, aho ari kukifashisha akura utwanda twari twasigaye mu menyo, nyuma y'uko amaze kuborosa akoresheje uburoso na korogate.

Umusaza wicaye mu kagare k'abantu batagishoboye kugenda, bikaba bigaragara ko uyu musaza ageze mu zabukuru. Ari kumwe n'umudamu w'umuganga ushinzwe kumukurikirana mu buzima bwe bwa buri munsi, aho uyu mudamu ubona arimo araganiriza uno musaza bari guseka bishimye.

Umukecuru n'umusaza ubona ko bari mu nzu yabo bishimye, bakaba bari ku meza aho bari gufatira amafunguro. Barishimye cyane barimo baraseka kandi urabona ko bose bageze mu zabukuru. Ku meza hateretse amasahani agiye atandukanye, ariho ubwoko bw'ibiryo barimo bararya.

Umukecuru n'umusaza ubona ko bageze mu zabukuru bari mu nzu yabo barimo baraganira, umugabo yicaye mu ntebe nziza aho umukecuru yamuhaye ikirahure kirimo amazi ari aranywa, uyu mukecuru we urabona ko arimo araganiriza umugabo we kandi barishimye.

Ni umukecuru bigaragara ko ageze mu za bukuru, uyu mukecuru akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri. Nyuma y'uko agirwariwe inama n'umuganga, umuganga akamubwira ko gukora imyitozo ngororamubiri bifasha abantu bageze mu za bukuru, uyu mukecuru asigaye yarabishyizemo imbaraga cyane.

Umukecuru n'umusaza bicaye mu nzu yabo, umukecuru akaba afite urupapuro arimo arereka umusaza, umusaza na we hari agacupa afite mu ntoki ndetse imbere ku meza hakaba hateretse imiti. Aba ngabo bose biragaragara ko bageze mu zabukuru ariko bakaba bishimanye.

Icyapa kiriho ikirangantego k'igihugu cy'u Rwanda, iki cyapa kikaba kiri mu mabara y'ubururu. Iki kirangantego hakaba hariho ingabo ndetse n'amasaka, hariho amagambo yanditse mu Cyongereza, avuga ati: Repubulika y'u Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima.

Ahantu bisa nk'aho harimo haratangirwa urukingo rwa Korona Virusi, aho hari umugabo uri kurutanga, ari gutera urushinge umuntu umuri imbere, bose bakaba bambaye udupfukamunwa, hari icyapa kihagaragara cyanditseho Korona Virusi.

Ni inyubako yubatswe neza mu buryo bugezweho, iyi nyubako ikaba ari ikigo cya CARAES. Iyi nyubako yakira abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se ihungabana ryo mu mutwe, munsi yayo hakaba hari indabyo zihagaragara.

Ni mu ivuriro aho hagaragara abaganga batatu, bambaye impuzankano z'akazi, hakaba hari abandi bantu babiri bisa nk'aho ari abarwayi, umuntu umwe umuganga umwe yamushyizeho igipimo arimo aragerageza kumupima, iruhande rw'uwo murwayi hakaba hari imashini yabugenewe icometseho insinga zitandukanye.

Ni ku ivuriro hakaba hagaragara inzu y'ababyeyi, mu kayira kari iruhande rw'inzu gasakariye harimo umugabo w'umuganga urimo uragendamo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, haragaragara kandi akapa kamanitse ku nkingi aho ngaho hari inzu.

Ni inyubako bigaragara ko yubatswe mu buryo bwa kijyambere ndetse iyi nyubako ikaba yubatse mu buryo bwa etaje, iyi nyubako akaba ari ivuriro ry'Umwami Faisal, aho imbere y'iyi nyubako hateye ibiti bitatu biriho amarapo, hakaba harimo idarapo rimwe ry'igihugu cy'u Rwanda. Hari n'abantu bari munsi y'iyo nyubako bisa nk'aho barimo baraganayo.

Ni inyubako bigaragara ko ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abaje gukora iyo myitozo, hariho icyapa cyanditseho ngo Sport care ndetse kandi haragaragara ko ari inzu yubatse mu buryo bwiza.

Ahantu hari uducupa twinshi tugiye dutandukanye turimo amoko y'imiti igiye itandukanye, utu ducupa twose tukaba turimo imiti ikozwe mu bimera gakondo, aho abaganga mu bya gakondo bavangavanga ibimera hanyuma bagakoramo imiti ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ni agacupa bigaragara ko gakoze mu kirahure, aka gacupa kakaba karimo umuti uvura indwara zigiye zitandukanye. Aka gacupa kakaba gapfundikije agafuniko k'icyatsi, ndetse kariho icyapa cyanditseho umuravumba, bivuze ko umuti uri muri aka gacupa ukozwe mu buryo bwa gakondo.

Ni icyapa kiriho ubwoko bw'ibimera bugiye butandukanye, ibi bimera byose bikaba ari icyatsi. Harimo ikimera kimwe gifite akarabyo k'umuhondo. Ibi bimera bikaba byifashishwa n'abahanga, bakoramo imiti igiye itandukanye gakondo ivura abantu.

Ni mu murima uhinzemo ibikakarubamba, hakaba hari abantu bambaye imipira y'icyatsi imeze nk'aho ari impuzankano baje kubisura, ibikakarubamba bikaba ari bimwe mu bimera byifashishwa n'abahanga, bakoramo imiti gakondo igiye itandukanye ivura indwara.